Abantu bigaragara ko bishimye ndetse babiri bakaba bambaye amarinete mu maso, umugore akaba afite umusatsi w'umukara ndetse umugabo, undi ari inyuma wambaye impeta utagaragara neza yifashe neza yambaye ikositimu, aba bantu bombi imbere yabo hari inzoga.

Aba ni abantu bigaragara ko bicaye batuje bafite ibyo bari gukurikira, ndetse bikaba bigaragara ko barimo kwiga ku bintu bigiye bitandukanye cyangwa se barimoganira ku nkingo zitandukanye, bikaba bigaragara ko harimo n'abantu bakomeye, kandi baturutse ahantu hagiye hatandukanye.

Ahantu ndahabona umuntu mu kayira k'abanyamaguru arimo aragenda bika bigaragara ko hari n'undi muntu wicaye munsi y'umutaka wa emutiyeni ndetse bikaba bigaragara ko uyu muntu acuruza amayinite bikaba binagaragara ko hari imodoka y'umukara ndetse na taransifa y'amashanyarazi.

Ahantu ndahabona imiryango y'ubucuruzi bikaba bigaragara ko buri muryango watangiramo serivisi zigiye zitandukanye, aho ubaye ufite serivisi ushaka kujya kubasaba, wagenda bakaba bagufasha, kuko ndabona ari ahantu batanga serivisi kandi neza.

Aha ndahabona itangazo rya aradibi ndetse aradibi, ikaba irimo irashaka umukozi, ndetse kandi ikaba irerekana ibintu bitandukanye byo kugenderaho niba hari umuntu ushaka akazi kandi bikaba bigaragaza ko ubaye ushaka akazi wabegera mukavugana.

Ahantu hari umunara bigaragara ko hari n'insinga nyinshi bigaragara ko hari icyapa cya Eyateri cyandikijweho amagambo y'umweru ndetse kiri mu mabara y'umutuku .

Ahantu hari ipoto ry'amashanyarazi bigaragara ko hari ibigori bihinze ndetse bikaba bigaragara ko hari ibiti bigiye bitandukanye ndetse kandi ku ipoto hakaba hariho insinga z'amashanyarazi bigaragara ko zitwara umuriro.

Ahantu bigaragara ko ari iguriro rya Rwamagana korekisheni fasiriti hakaba hari gate yubakishije amatafari ahiye, ndetse nkaba ndimo ndahabona geti ijya gusa umukara nkabona ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'ikirere.

Uyu muntu bigaragara ko yambaye ingofero mu mutwe ndetse bikaba bigaragara ko yambaye rinete, bikaba bigaragara ko uyu muntu afite imisatsi y'abagore ndetse akaba bigaragara ko uyu muntu yambaye ishati mo imbere ndetse akaba yambaye n'umwenda usa umutuku inyuma.

Ndahabona igazeti ya leta nimero enye yo kuwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu, iyo gazete ikaba yandikishijwe amagambo y'umukara, ikaba yanditse mu ndimi eshatu arizo; ikinyarwanda, icyongereza ndetse n'igifaransa.

Ahantu mu cyaro bigaragara ko hari ikintu cyabahurije hamwe, ndahabona umugore ufite impapuro z'umweru ndetse akaba yiteze igitambaro cy'umutuku mu mutwe, kandi hano hantu hakaba hari amazu asakaje amategura, ndetse nkaba mpabona n'inzu imwe ifite umuryango w'ubururu.

Abantu bigaragara ko bambaye uturango tw'abunzi aho iyo abantu babiri bagiranye amakimbirane cyangwa se ibibazo bigiye bitandukanye babegera bakabunga maze bamara kubunga ibibazo byabo bigakemuka, iyo bidakemutse bakagana inzego zo hejuru harimo n'inkiko.

Aha ndahabona umugozi w'umutuku ukoreshwa mu kuzimya umuriro bizwi nka kizimya moto iyo mu nyubako habaye impanuka y'umuriro. Bigaragara ko uyu mugozi uri ahantu hari akapa kanditseho ijambo teveya ndetse gasa ubururu kandikishijwemo amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo.

Icyapa kinini cyane kigaragaza ubwiza bwa Legasi hoteli kirangira abifuza serivisi zayo, imbere yacyo hari imikindo itatu umwe ukaba usa naho wihishe hagaragara amababi yawo, indi ibiri umwe urakuze undi uracyari muto.

Aha ndahabona ikirangantego cy'ishyaka pariti riberari, aho handitseho amagambo ukwishyira ukizana, ubutabera ndetse n'amajyambere, harimo ikigori kimwe kiri ku ruhande rw'iburyo ndetse n'ikindi kiri ku ruhande rw'ibumoso aho bigaragara ko hariho ibimenyetso by'ubutabera.

Aba ni abantu bane bigaragara ko umwe yambaye rlnete undi akaba afite indangururamajwi ari kuvuga, ndetse umugore akaba yambaye imyenda umutuku hejuru hasi akaba yambaye ipantaro y'umukara, bigaragara ko afite terefone mu ntoki, ndetse undi mugore akaba yambaye ipantaro y'umukara hasi, hejuru akaba yambaye agashati k'umweru karimo utuntu tw'umutuku ndetse n'umuhondo bigaragara ko afite impapuro.

Uyu yitwa Habineza Furanke uhagarariye ishyaka girini pati bigaragara ko yarimo ariyamamaza mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu.

Aha ndabona nyakubahwa perezida Paul Kagame w'u Rwanda yambaye ikositimu ndetse yambaye rinete akaba afite umusatsi, ndetse ndabona iruhande rwe hari umugore nawe wambaye neza cyane ndetse nkaba mbona hari ibintu barimo baravuganaho bitandukanye ahantu bateraniye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibiti by'icyatsi, ndetse umuhanda ukaba urimo imodoka ihetse inka. Imodoka ikaba ihetse inka z'umukara ndetse n'umweru, kandi iyo modoka ikaba ifite amapine y'umukara.

Aha ndahabona ibintu bigiye bitandukanye aho ndimo kubona abantu bagiye batandukanye, imodoka ndetse ndikubona moto zigiye zitandukanye, kandi nkaba ndimo ndabona na rifani zigiye zitandukanye, ndetse kandi nkaba ndimo kuhabona n'umuhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye bigaragara ko harimo moto eshatu ndetse n'imodoka ebyiri, imwe isa girarayi ndetse n'indi isa ibara ry'umutuku bigaragara ko biri kugenda byerekeza mu cyerekezo kimwe kandi bikaba biri ku muhanda uriho umukindo.

Aha hantu ndahabona umuntu wambaye bote z'umukara ndetse akaba yambaye ijire risa icyatsi harimo umuhanda wa kaburimbo ndetse bikaba bigaragara ko harimo imodoka yikoreye imizigo irimo iragenda bikaba bigaragara ko iyi modoka iri ahantu hari ibiti by'icyatsi kibisi .

Aha ndabona abantu bagiye batandukanye, ndabona umuntu arimo agenda mu muhanda akanda telefone, ndabona imodoka ihetse imizigo y'umweru ndetse ndabona harimo umushoferi ndetse ahantu hari ibiti ndetse kandi ndabona umuhanda wa kaburimbo.

Ni imodoka yifashishwa mu gukora ingendo zigiye zitandukanye, bikaba bigaragara ko iri ahantu hari abantu benshi ndetse bikaba bigaragara ko iri umuhanda wa kaburimbo, iyi modoka ikaba isa mweruru ndetse irimo n'utuntu tujya gusa ubururu ariko bucyeye.

Imodoka y'ikamyo dayihatso isa nk'ijyanye ibicuruzwa, inyuma hari moto n'indi modoka ya toyota biyikurikiye gusa harimo umwanya uhagije.

Ahantu ndahabona umuntu mu kayira k'abanyamaguru arimo aragenda bika bigaragara ko hari n'undi muntu wicaye munsi y'umutaka wa MTN ndetse bikaba bigaragara ko uyu muntu acuruza amayinite bikaba binagaragara ko hari imodoka y'umukara ndetse na taransifa y'amashanyarazi.

Aha ndahabona inyubako iriho icyapa cya forubeti bigaragara ko iki cyapa kirimo kumenyesha abantu ko ari ahantu bakorera imikino y'amahirwe, ndetse kikaba kigaragaza ko kiba ku Gisimeti.

Aha ndabona umugore uri kugendera mu kayira k'abanyamaguru ndi kubona y'amashanyarazi ndetse tukabona imodoka n'umuhanda wa kaburimbo, ndetse kandi ndi kuhabona moto ikunze kwimura abantu igihe bimutse ndetse kandi ntibona ibiti byinshi bigiye bitandukanye biri mu ibara ry'icyatsi.

Ahantu ndahabona umuntu mu kayira k'abanyamaguru arimo aragenda bika bigaragara ko hari n'undi muntu wicaye munsi y'umutaka wa emutiyeni ndetse bikaba bigaragara ko uyu muntu acuruza amayinite bikaba binagaragara ko hari imodoka y'umukara ndetse na taransifa y'amashanyarazi.